Aha imbere yanjye ndabona ibikoresho bitandukanye amakayi, jibuso, kana, rushi , ibingibi byifashishwa mu gutanga ubumenyi ku bana cyangwa se n'abantu bakuru.

Ibikoresho mbona imbere yanjye harimo: amarate, penso, kopa, shapena, eraza ibikoresho bikoreshwa hakora hakorwa jowemetirike cyangwa se bashushanya bashushanya amashusho.

Ndabona kompa, amarati, penso, gome, shapena ni matematiko seti bivuze ko ari ibikoresho by'umunyeshuri.

Aha ndabona bari gutaha inzu yari isojwe kubakwa ariko itaratangira gukorerwamo kuko ndabona ari aba enjeniyeri n'abandi bayobozi batandukanye.